Aha ni mu kabare harimo inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse harimo n'umuseriveri cyangwa ushinzwe gutanga inzoga, harimwo kontwari ndetse n'inzoga z'ubwoko butandukanye, hari kontwari hari ameza bisa n'aho ari inzoga zihenze.

Mu kabari hari inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo n'umukozi ushinzwe guha abakiriya inzoga, ndetse inzoga ziri muri kontwari ndetse n'ameza harimo na firigo, harimo inzoga za amusteri ndetse n'iza shampanye.

Mu kabari hari inzoga z'ubwoko butandukanye harimo henikeni ndetse n'umukobwa uri gucuruza izo nzoga cyangwa se uwo twakwita umuseriveri ari kuzicuruza aziha abakiriya ndetse n'ibirahure byanditsweho henikeni.

Hafi na kaburimbo, hari icyapa cy'icyatsi cyerekana inzu bacururizamo ibihangano abantu bakoze, kandi babigurisha.

Muri butike irimo ameza, akabamo tirimusi akabamo umunyu, ndetse n'ijage n'amasashe ndetse n'ikarito n'amacupa n'akayunguruzo.

Abadozi bari kudodera mu nzu iriho amakaro, Kandi bafite ibyarahani bisa n'ibimeze neza. Hejuru yaho hari ibitenge bimanitse bacuruza, kandi banadoderamo abaje kudodesha.

Akabari karimo igipangu mu nzu ndetse n'umukobwa, uri gukubura igipangu kirimo n'amapave porutayi isa neza.

Mu isoko harimo ibitenge by'ubwoko butandukanye ndetse hari indobo eshatu ziri iruhande rwabyo, hari n’ijage, ndabona mu isoko badodera hari undi icarahane.

Amashu ya shufureri ari mu ibase, barimo kuyacuruza Ari mu ibasi y'ubururu ndetse kandi abaje kuyagurisha bategereje ko bayagura aya mashu ya shufurero arasa neza uwayazanye baramugurira rwose.